Abarezi barerera mu bigo by'amashuri yibanze ndetse n'amashuri y'inshuke, ni bamwe mu bifashisha ibishushanyo bitandukanye mu kwigisha aba bana bo mu mashuri y'inshuke ndetse n'amashuri abanza.

Igishushanyo kirimo utwana dufatanye, ni kimwe mu bikoreshwa, hatangwa uburezi mu mashuri abanza ndetse n'ay'inshuke, berekana yuko bagomba kunga ubumwe, bagafatana urunana.

Ababyeyi mbere yo kohereza abana biga mu mashuri y'inshuke ndetse n'amashuri abanza, barasabwa kujya babategurira bimwe mu byo bashobora kwifashisha mu gihe bageze nko ku ishuri, aha twavugamo nk'amazi yo kunywa ndetse n'ibindi.

Ibishushanyo bitandukanye harimo ibigaragaza inzoka, bakame, inzovu ndetse n'ibindi, ni bimwe mu byifashishwa mu kwigisha abana biga mu mashuri y'inshuke ndetse n'amashuri abanza, mu rurimi rw'ikinyarwanda.

Ibishushanyo birimo abanyeshuri b'abakobwa ndetse n'abahungu, ni bimwe mu bishobora kwifashishwa mu gukundisha ishuri abana bakiri bato biga mu mashuri y'inshuke ndetse n'amashuri abanza.

Ibishushanyo bitandukanye bigaragaza ibice by'umubiri w'umuntu, ni bimwe mu byifashishwa mu gutanga uburezi mu mashuri abanza ndetse n'amashuri y'inshuke.

Ibishushanyo bitandukanye, biri mu mabara y'umuhondo, umukara, ubururu n'umutuku, ni bimwe mu byifashishwaga mu gutanga uburezi, mu mashuri abanza ndetse n'amashuri y'inshuke.

Ibishushanyo bitandukanye byerekana uburyo urubuto rw'igishyimbo rumera ni bimwe mu byifashishwa mu gutanga uburezi mu mashuri y'inshuke ndetse n'amashuri abanza, ibi bifasha abanyeshuri kuzamura ubumenyi bwabo mu buryo bworoshye.

Mu rwego rwo kwishimisha abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke ndetse n'amashuri abanza, abayobozi babo bajyana na bo gukina ndetse bagakora utuntu dutandukanye dushimisha abana nko kuririmba, kubyina ndetse n'ibindi.

Ibishushanyo bitandukanye ndetse biri mu mabara atandukanye, biteretse ku isahani ni bimwe mu bifashwa ndetse bikanifashishwa mu kwigisha abanyeshuri mu mashuri abanza ndetse n'amashuri y'inshuke.

Minisiteri y'uburezi ndetse n'abandi bafatanyabikorwa, ni bamwe mu bashyize imbaraga mu gutanga ibikinisho abana bazajya bifashisha biga.

Ibishushanyo ni bimwe mu bishyirwa ku dukapu tw'abana biga mu mashuri abanza ndetse n'ay'inshuke kugira ngo tubashimishe, abana bashimishwa n'udushushanyo ndetse n'ibindi bipupe bigiye bitandukanye.

Abarezi bo mu mashuri y'inshuke ndetse no mu mashuri abanza barakangurirwa gutoza abana gukunda siporo kuko ari ubuzima, ibi bigafasha abana gukura neza bakundana kandi bisanzura naho.

Inyubako z'ibigo by'amashuri y'inshuke ndetse n'amashuri abanza ni zimwe ziba ziriho ibishushanyo by'ubwoko bwinshi bugiye butandukanye.

Ibishushanyo bitandukanye birimo ibishushanyo by'inyamaswa, amagi ndetse n'ibindi ni bimwe mu byifashishwa mu gutanga uburezi mu mashuri abanza ndetse n'amashuri y'inshuke.

Abayobozi b'ibigo bishinzwe uburezi ndetse n'abayobozi batanga uburezi, ni bamwe mu bashishikarizwa gukundisha abana imikino itandukanye ndetse bakababibamo n'urukundo.

Ibigo by'amashuri y'inshuke ndetse n'ibigo by'amashuri abanza, usanga biba bishushanyijeho inyamaswa zitandukanye ndetse n'ibindi bishushanyo, bituma abana bakunda ishuri kuko bakunda ibishushanyo.

Abarimu bigisha mu mashuri abanza ndetse n'ay'inshuke, baba bagomba gukorana umurava ndetse n'umwete, mu rwego rwo gutanga uburezi bwiza kandi bufite ireme.

Amarati ari mu mabara atandukanye nk'ibara ry'icyatsi, ibara ry'umuhondo, ibara ry'umutuku, ni amwe mu yifashishwa mu kwigisha isomo ry'imibare, mu mashuri abanza ndetse n'amashuri y'incuke.

Ibitabo byifashishwa mu gutanga uburezi mu mashuri abanza ndetse n'amashuri y'inshuke bigomba kuba byiganjemo udukuru tw'abana turyoshye kugira ngo abana bakunde gusoma ndetse bakunde no kwiga.

Abarezi barerera mu bigo by'amashuri abanza ndetse n'amashuri y'incuke, basabwa kwitwararika ndetse nk'igihe cy'ibyorezo, bakubahiriza amategeko aba yashyizweho na minisiteri y'ubuzima.

Ibikoresho bitandukanye nka calculatrice mu ndimi z'amahanga, ingwa zandikishwa ku kibaho, amakaramu agiye atandukanye ndetse n'amarati, ni bimwe mu bikoresho byifashishwa mu gutanga uburezi, mu mashuri abanza ndetse n'ay'incuke.

Mu rwego rwo kwirinda ubucucike mu mashuri, Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda yo kubaka ibyumba by'amashuri bitandukanye kugira ngo abana bige neza kandi nta gihungabanya uburenganzira bwabo.

Ibikoresho bitandukanye harimo amakaramu y'ibiti, utwuma tuyasongora ndetse n'amarati ni bimwe mu byifashishwa mu gutanga uburezi mu mashuri abanza ndetse n'ay'inshuke mu isomo ry'imibare.

Ibishushanyo biri mu mabara atandukanye, ni bimwe mu byifashishwa mu gutanga uburezi bufite ireme mu mashuri abanza ndetse n'amashuri y'inshuke, ibi bifasha abana gukunda kwiga kandi bakiga bishimye.

Igishushanyo kigaragaza abana b'inshuke bahetse ibikapu ni kimwe mu byifashishwa mu gutanga uburezi no gukundisha ishuri abana bo mu nshuke ndetse n'abana biga mu mashuri abanza.

Ibikoresho nk'amarate, amakaramu y'ibiti ndetse n'ibikoresho bisongora aya makaramu y'ibiti, ni bimwe mu byifashishwa mu kwigisha isomo ry'imibare mu mashuri y'inshuke ndetse n'amashuri abanza.

Ibishushanyo bitandukanye biri mu mabara atandukanye harimo: amabara y'icyatsi, amabara y'ubururu, amabara y'umutuku ndetse n'ibindi ni bimwe mu byifashishwa mu gutanga uburezi bufite ireme mu mashuri abanza ndetse n'amashuri y'inshuke.

Mu rwego rwo gushimisha abana ndetse no kubakundisha amasomo, abayobozi bigisha mu mashuri y'inshuke ndetse n'amashuri abanza, ibishushanyo biri mu mabara atandukanye nk'amabara y'umuhondo n'umutuku, byifashishwa mu gutanga uburezi.

ibishushanyo bigaragaza abana bari mu ishuri bari kwiga, ni bimwe mu byifashishwa mu gutanga uburezi mu mashuri y'inSHuke ndetse n'amashuri abanza.

Mu burezi bw'amashuri y'inshuke ndetse n'amashuri abanza, mu kwigisha imibare habamo ibitabo bigiye bitandukanye, ari byo bita seti mu ndimi z'amahanga.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza ndetse n'ay'inshuke mu isomo ry'imibare, bakenera bimwe mu bikoresho bitandukanye harimo amarate, amakaramu y'ibiti, utwuma dusongora ayo makaramu ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Bimwe mu bigo by'amashuri y'inshuke ndetse n'amashuri abanza, bituye mu bice by'ibyaro, abayobozi barakangurira abarezi ko bagomba kwita ku bana mu rwego rwo kubarinda no kuba bagira ikindi kibahungabanyiriza umutekano.

Ibishushanyo bitandukanye biri mu mabara y'umutuku, amabara y'icyatsi, amabara y'umuhondo ndetse n'amabara y'ubururu, ni bimwe mu byifashishwa mu gutanga uburezi mu mashuri abanza ndetse n'amashuri y'inshuke.

Ibishushanyo bitandukanye ndetse n'ibikinisho bitandukanye biri mu mabara y'ubururu y'icyatsi umuhondo ndetse n'ibindi, ni bimwe mu byifashishwa mu gutanga uburezi mu mashuri abanza ndetse n'amashuri y'inshuke.

Mu rwego rwo kongera imfashanyigisho zifashishwa mu kwigisha abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke ndetse n'abiga mu mashuri abanza, hashyizweho gahunda yo kujya biga bakoresheje ibishushanyo biri mu mabara atandukanye nk'umutuku, umweru, icyatsi ndetse n'ubururu n'andi mabara.

Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda yo kubaka ibyumba by'amashuri yaba ari amashuri abanza, amashuri y'inshuke ndetse n'amashuri yisumbuye mu rwego rwo kurinda ubucucike mu mashuri.

Mu mashuri abanza ndetse n'amashuri y'inshuke, hagomba gushyirwamo ibyicungo abana bagomba kujya bishimishirizamo kugira ngo bibafashe gukunda ishuri ndetse no kunga ubumwe na bagenzi babo.

Abarezi bo mu mashuri y'inshuke ndetse no mu mashuri abanza, mu rwego rwo gutanga amasomo cyane cyane ay'Imibare, bifashisha amarate, amakaramu y'ibiti ndetse n'utundi duca uruziga.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, barakangurirwa kujya bagira imyitwarire myiza, mu rwego rwo kwirinda amakosa ashobora no kuba yabafungisha, gutyo ubuzima bwabo bukaba burangiriye aho.

Ibishushanyo biri muri bimwe mu byifashishwa mu gutanga uburezi mu mashuri abanza ndetse n'ay'inshuke, ibi byifashishwa mu kwigisha amasomo atandukanye nk'Icyongereza, imibare ndetse n'andi masomo.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza ndetse n'amashuri yisumbuye barasabwa kugira ikinyabupfura bubahiriza amategeko agenga umunyeshuri mu rwego rwo kwirinda kuba bahura n'ibibazo bishobora no kubajyana muri gereza.

Amarate ndetse n'ikaramu z'ibiti ni bimwe mu byifashishwa mu kwigisha isomo ry'imibare, mu mashuri abanza ndetse n'amashuri y'inshuke.

Abarimu bigisha mu mashuri abanza ndetse n'ay'inshuke baba bagomba kwitondera amanota y'aba bana. Bakabakosora mu rwego rwo kugira ngo bamenye aho ubumenyi bw'aba banyeshuri bugeze.

Abayobozi b'amashuri abanza ndetse n'amashuri y'inshuke barakangurirwa kubiba urukundo muri aba bana kugira ngo bazakure bakundana kandi bafite indangagaciro z'abanyarwanda.

Mu rwego rwo kwirinda ubucucike mu mashuri leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda yo kubaka, ibyumba by'amashuri bitandukanye, kugira ngo abanyeshuri bige neza, kandi batabangamiranye.

Minisiteri y'uburezi yashyize ibikoresho byo gukiniraho ku bana biga mu mashuri abanza ndetse n'ay'inshuke mu rwego rwo kubakundisha ishuri, ubumwe ndetse n'urukundo.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza barasabwa kujya bubaha abarezi babo, abarezi na bo barasabwa gutanga uburezi bufite ireme mu rwego rwo kuzamura ubumenyi bw'abana.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, barakangurirwa kugira imyitwarire myiza kuko iyo imyitwarire itabaye myiza bashobora gufungwa ndetse bakaryozwa n'ibyaha bakoze.

Ibishushanyo bigaragaza abana b'abahungu ndetse n'abakobwa bagiye ku ishuri bishobora kwifashishwa mu gukundisha abana ishuri, ibi byifashishwa ku bana bari mu mashuri abanza ndetse n'amashuri y'inshuke.

Abanyeshuri biga mu amashuri makuru ndetse n'amashuri yisumbuye, barasabwa kujya bagerera ku ishuri ku gihe, kereka abafite impamvu zumvikana.

Abanyeshuri, abayobozi ndetse n'abandi bakozi bo mu bigo by'amashuri yisumbuye, ni bamwe mu bafatanya ndetse bakungurana ibitekerezo ku bumenyi butandukanye.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, barakangurirwa gufatanya, gusobanurirana ndetse no kugirana ubucuti hagati yabo, mu rwego rwo guhugurana ndetse no gusangizanya ubumenyi.

Abayobozi bo muri Minisiteri y'uburezi, abarimu ndetse n'abayobozi b'ibigo by'amashuri yisumbuye bahuriye hamwe baganira ku burezi bufite ireme.

Abayobozi b'ikigo cy'amashuri ndetse n'abandi barezi batandukanye, batanze ibihembo ku bana bitwaye neza mu masomo ndetse n'abagaragaje impano zitandukanye nk'imivugo.

Mu gihe cyo kwirinda Korona Virusi mu Karere ka Nyagatare mu Ntara y'Iburasirazuba ni hamwe mu bubahirije ingamba zo kurwanya iki cyorezo, wasangaga buri muturage wese yambaye agapfukamunwa neza kandi yahanye intera na mugenzi we.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye barasabwa no kurangwa n'urukundo, bagafatanya kugira ngo bungurane ubumenyi mu bintu bigiye bitandukanye.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, barasabwa kugirirana urukundo ndetse bagafashanya muri byose. Ibi bikaba bizabafasha kubana mu mahoro ndetse umutekano ukaba wose.

Abayobozi b'amashuri makuru baragira inama abana kwiga ibijyanye n'imyuga ndetse no kwihangira imirimo, ibi bikazabafasha kwirinda ubushomeri igihe basoje kwiga.

Abayobozi b'ibigo by'amashuri yisumbuye, baraganiriza abana ku buzima bw'imyororokere, bamwe muri aba bana bagiye batanga ibibazo bitandukanye, harimo uwajije ati " Ese SIDA yandurira he?".

Abarezi ndetse n'abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye barashishikarizwa kujya bubahiriza amabwiriza ndetse abanyeshuri bakubaha abarezi babo, abarezi nabo bagatanga uburezi bufite ireme.

Minisiteri y'Ubuzima mu rwego rwo gushyira uburezi imbere mu bigo by'amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye hashyizweho ibyumba by'abakobwa bizajya bifashirizwamo aba bana igihe bahuye n'ibibazo bitandukanye.

Abanyeshuri biga mu mashuri makuru, bakangurirwa gucunga neza ibikoresho basanze ku ishuri kandi bakiga no gutunganya ibyangiritse. Ibi bikabafasha mu myigire yabo ndetse no kongera ubumenyi mu gukora ibikoresho bigiye bitandukanye.

Ibigo by'amashuri yisumbuye abayobozi, abarezi ndetse n'abandi batandukanye bifatanyirije hamwe mu kuganira ku byateza imbere uburezi, hahanwa abanyeshuri batitwaye neza ndetse hashimirwa n'ababaye intangarugero mu myitwarire.

Abayobozi b'amashuri yisumbuye barakangurira abanyeshuri kwitwararika ndetse no kurinda umutekano w'ibikoresho byo ku ishuri. Ibi bikazabafasha kubona ibyo bigiraho bitabagoye.

Abanyeshuri, abayobozi ndetse n'abandi bakozi bakora mu bigo by'amashuri yisumbuye, bashishikariza urubyiruko kwihangira imirimo ndetse no kwiga imyuga irimo iby'imiriro y'amashanyarazi ndetse n'ibindi.

Umuyobozi w'ishuri ryisumbuye riherereye mu Karere ka Nyagatare, yagiranye ikiganiro n'abanyeshuri aho bunguranye ibitekerezo, aza gushimira abanyeshuri bitwaye neza ndetse n'abitwaye nabi baragawa.

Abanyeshuri biga mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza, barashimira leta inyubako yabahaye. Ibi bibafasha kwiga neza ndetse bikabarinda n'ubucucike.

Abanyeshuri biga mu mashuri makuru ndetse na za Kaminuza, ni bamwe mu basabwa kwihangira umurimo, mu rwego rwo kwirinda ubushomeri mu gihe basoje amashuri yabo yisumbuye.

Inyubako zo mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza zigomba kugira nimero iziranga, ibi bifasha umunyeshuri cyangwa se umurezi kumenya aho ari buge bimworoheye.

Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu gutanga mudasobwa mu bigo by'amashuri ya kaminuza ndetse n'amashuri makuru mu rwego rwo kuzamura ikoranabuhanga.

Abanyeshuri barakangurirwa guhanga umurimo cyane cyane abiga mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza, ibi bikabafasha kwirinda ubushomeri ndetse bakiteza imbere.

Abanyeshuri biga mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza barashishikarizwa kwihangira umurimo, mu rwego rwo kwirinda ubushomeri igihe amasomo yabo azaba arangiye kandi bagateza Igihugu imbere.

Ibigo by'amashuri makuru ndetse na za kaminuza ni bimwe mu bitanga uburezi bwiza kandi bw'intangarugero, nk'abanyeshuri bize muri ayo mashuri baba bazi kwihangira imirimo ku buryo batajya bahura n'ikibazo cy'ubushomeri mu gihe basoje kwiga.

Abarezi barerera mu bigo by'amashuri makuru ndetse na za kaminuza, barasabwa kujya bigisha ariko bagatanga isuzumabumenyi mu rwego rwo gusuzuma ko ibyo bigishije byafashwe neza.

Abanyeshuri biga mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza tutibagiwe n'amashuri y'imyuga, barasabwa kwihangira imirimo mu rwego rwo kwirinda ubushomeri igihe bazaba basoje kwiga.

Ibigo by'amashuri makuru ndetse na za kaminuza, birasabwa kubahiriza ibyo minisiteri y'ubuzima yashyizeho nko gushyiraho ubukarabiro ndetse hakaba hari n'amazi meza n'isabune.

Abanyeshuri biga mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza, abiga gushushanya ndetse no gukora amashusho mu ibumba, ni bamwe mu biteje imbere kubera aka kazi kabo bakora.

Ibigo by'amashuri ya kaminuza ndetse n'amashuri makuru ni bimwe mu byashyizwemo ibikoresho bitandukanye mu rwego rwo korohereza abanyeshuri ndetse no kwirinda ubucucike mu mashuri.

Aba banyeshuri biga mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza, barashishikarizwa kwihangira umurimo mu rwego rwo kurwanya ubushomeri. Ibi bikazabafasha igihe baza bashoje amashuri yabo.

Abanyeshuri biga mu mashuri makuru ndetse na za Kaminuza, barashimira Leta y'u Rwanda ko yagiye ibagezaho ibikoresho bitandukanye harimo n'intebe zo kwicaraho, ameza yo kwandikiraho ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga.

Mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza, hashyizweho inyubako zigiye zitandukanye, hari izo kwigirwamo, inyubako zirimo ibyumba bifatirwamo ibizami, aho abanyeshuri bimenyerereza akazi ndetse n'ahandi.

Abanyeshuri biga mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza barakangurirwa kwihangira umurimo, harimo gukora ibikoresho bigiye bitandukanye bifashishije ibumba, ibisigazwa by'imbaho ndetse n'ibindi.

Abanyeshuri biga mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza ni bamwe mu bashishikarizwa kugira gutya bakihangira umurimo bimwe mu bikoresho bagenda bakoresha nk'intebe ndetse n'ameza bigiraho bagomba kubifata neza kugira ngo bitangirika.